Mu iduka rinini ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo umucuruzi ndetse n'umuguzi, umugabo wambaye umupira ufite ibara risa n'ivu ndetse n'undi wambaye agapira k'abantu bambara bari muri siporo, kariho umubare gatandatu.

Inyubako ngari irimo intebe zirambuye ziriho imisego ,ndetse hasi hashashemo amakaro ku nkuta hariho amarangi y'imyeru, ndetse hakaba n'ibirahure bifite amarangi atandukanye.

Inyubako ngari ndetse ifite icyumba cy'uruganiriro, harimo intebe z'imisego ndetse hakabaho n'amarido ku ruhande rw'iburyo. Hari ameza ateretseho isorori.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye bari mu isoko ndetse abenshi ni abacuruzi kuko bikoreye ibicuruzwa ku mutwe abandi bakaba babitwaye ku maboko, harimo: imyenda, imifuka ndetse n'amacupa, harimo abaguzi bari kugenda bitegereza ibyo bicuruzwa kuko bakeneye guhaha.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bari mu isoko bari kugenda bareba ibicuruzwa bihari, hari ibiri mu ibase harimo; amavuta, utuyunguruzo tw'amazi, indorerwamo ,ndetse n'ibindi bifunze mu dukarito harimo na corogati.

Umugore wambaye umwenda ukoze mu gitambaro cy'ibitenge, ndetse kirimo amabara menshi atandukanye, ari mu isoko afite ako ahahiramo, ari kwitegereza amashusho ahari menshi kugirango amenye ayo yagura.